Abagabo bane n'umuzungukazi umwe bari bahagaze mu cyumba cyari cyabereyemo inama, umugabo umwe ari gusuhuza undi, undi na we arahagaze ari kubareba n'umuzungu ari kuganira n'undi mwirabura ku ruhande.

Umugabo ufashe ifoto iriho abana babiri, wambaye itaburiya n'umugore iruhande rwe wambaye igitenge n'umupira, umugabo yari kwereka umugore imikurire y'abana.

Itsinda ry'abantu benshi, bambaye amataburiya asa yose ubururu, bahagaze imbere y'itente, bamwe bari gukoma amashyi, abandi baricaye n'abandi barahagaze.

Abagore n'abagabo bicaye mu nama, aho baganira ku bijyanye n'ubuzima, harimo abirabura, harimo abazungu, bigaragara ko bari bari kuganira ku nama ihuriweho n'abantu benshi batandukanye mu bijyanye n'ubuzima.

Umwana wicaye wambaye bodaboda, agakabutura n'agapira ndetse n'umukobwa ufite indobo ubona ko ari kuvoma amazi wambaye bodaboda z'umuhondo, ipantaro y'umukara n'agapira ndetse n'igitenge ku rutugu, ubona ko bari kuvoma amazi atemba ahantu mu cyaro.

Umwana w'umunyeshuri w'umukobwa wambaye ikanzu y'ishuri, bodaboda, ishati uhagaze kuri robine, bigaragara ko ari koga intoki iruhande rwe yateretse puberi.

Umudamu uhagaze imbere y'abaturage, ufashe igitabo na mikoro, wambaye itaburiya; bigaragara ko hari ibintu bijyanye n'amabwiriza cyangwa se amahugurwa yari ari kubabwira, bitewe n'ingingo zitandukanye bari bari kuganiraho.

Abana bane bahagaze ku iriba rusange bari kuvoma amazi, umwe arimo arayavoma abandi barahagaze bari kumureba. Harimo uwambaye bote afite inkoni n'undi wambaye umupira w'ubururu n'undi wambaye isengeri, bigaragara ko bari bari kuvoma amazi bishimye.

Icyumba gihagazemo abaganga, harimo uwambaye ingofero, imyenda yo kwa muganga, imbere ye hari imashini ipima indwara zitandukanye, akaba ari kumwe n'abandi bantu iruhande rwe.

Abagabo barindwi n'abagore babiri, bahagaze imbere y'imodoka imeze nka tagisi ifunguye, bakaba bari bamaze gufata ifoto y'urwibutso igaragaza amahugurwa bari bamazemo iminsi.

Umugore wicaye ku ntebe inyuma ye hashushanyijeho ururabyo, wambaye igitambaro mu mutwe, ijipo ndetse n'umupira uri kureba ku ruhande, usa nk'uri gutekereza.

Itsinda ry'abantu harimo abagore, abagabo bahagaze imbere y'inzu, hirya hari icyapa kigaragaza umushinga wabo wigaga ku bijyanye n'ibibazo by'ubwonko.

Umugore w'umukuru w'Igihugu cy'u Rwanda Jeannette Kagame, uhagaze imbere ya mikoro wambaye ikanzu, akaba yari ari kubwira abantu ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe.

Umugore ufite agapfukamunwa mu kaboko wambaye ijile usa nk'uri kuvuga wazamuye akaboko, inyuma ye hari abandi bagore babiri n'umugabo umwe ku ruhande hasa nk'ahiicaye undi muntu basa nk'aho haribyo bari kuganira.

Umusaza wishimye, wasetse rwose nta n'amenyo imbere afite, wambaye ishati, ufite umwitero yiteye twita umukenyero n'icumu mu ntoki, ubona ko yishimye cyane.

Umugabo wambaye amarinete, wambaye ishati y'umweru ufite udupapuro tubiri imbere ye, kamwe hariho ibisa n'amenyo ariko bisa nk'ibyanyujijwe muri sikaneri arimo arareba ayo menyo.

Ibikoresho byo kwa muganga, bakoresha, basuzuma, umurwayi urwaye amenyo. Bakunda kubyifashisha ku baganga bavura ibijyanye n'amenyo.

Umugabo wambaye ubusa hejuru uri guseka wafashe akagozi agashyira ku menyo ye, afite n'akantu k'aka essuie-main ku rutugu bigaragara ko yari yishimye.

Umuganga wambaye ga ufite agakoresho gasuzuma amenyo ari kumwe n'umwana w'umusore uri kumwereka ikibazo cy'amenyo, muganga akaba yari agiye gusuzuma ngo arebe ikibazo amenyo afite.

Umuganga wambaye ga wafashe intoki ze azishyira ku menyo y'umwana ufite hagati y'imyaka ine n'itanu, wicaye ku ntebe y'umutuku bigaragara ko uwo muganga yari arimo gusuzuma niba hari ikibazo amenyo y'uwo mwana afite.

Umusaza wambaye amarinete, ishati, ufashe terefone mu ntoki, iruhande rwe hicaye umukecuru na we wambaye ikanzu ariko ufite imvi mu mutwe, imbere yabo hari imeza iteretseho impapuro, bigaragara ko bari bari gusoma.

Umusaza uryamye ku gatanda ko kwa muganga bashyize ikintu ku kaboko, wambaye umupira w'umweru, hirya ye hari imashini bigaragara ko irimo irasuzuma uko amaraso atembera mu mubiri.

Umusaza n'umukecuru ubona ko bafatanye bishimye bameze nkaho umwe ari umugabo undi akaba umugore w'undi, umugore yambaye igitambaro mu mutwe, umusaza yiyambariye ikoti yamuhaye akabizu ku itama, umugore na we ari guseka arishimye.

Icyumba kirimo mu igitanda gifite udupine, gisashe neza gifiteho n'umusego, hari ku ruhande aho bakarabira ndetse n'ahandi hameze nk'ahajya ibikoresho by'umurwayi ku ruhande y'igitanda.

Utubati dusa umweru turiho n'utu etajeri hejuru yatwo, hariho n'utuntu tumeze nk'uturobine, ku ruhande hariho puberi, ahantu hafite isuku imeze neza. Hasa nk'akorerwa ibintu by'ubuvuzi.

Mu bitaro harimo intebe zo kwicaraho hamanitse icyapa kinini gishushanyijeho ijisho, hariho n'udupirizo hejuru kuri parafo bigaragara ko hari inyubako iri kubakwa y'ibijyanye no ku buvuzi bw'amaso.

Inyubako eshatu zubatse ahantu hari ubusitani bwiza ariko bugiye butandukanye, hameze neza nk'ahakorerwa ubushakashatsi ariko mu bijyanye n'imiti yo kwa muganga.

Imashini ziteretse ku meza ndende zisa n'iziri mu cyumba gisa naho hakoreramo ubushakashatsi laboratwari, zikaba zimeze nk'izicometse ahantu cyangwa se ku bintu.

Icyumba cyo kwa muganga basuzumiramo abarwayi, bitewe n'indwara zitandukanye. Iki gitanda kigaragaza ko umuntu ashobora kujyaho bakamusuzumiraho indwara nyinshi zitandukanye. Iki ni igitanda bakunda kwifashisha kwa muganga basuzuma indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Imashini y'umweru isa nk'ipima indwara zitandukanye, intebe ihinwa n'indi idahinwa bisa nk'ibiteganye, biri mu cyumba kimeze nka laboratoire aho twita kwa muganga, harimo televiziyo ndetse n'amameza.

Umugabo w'umwirabura wambaye ikabutura n'isengeri byose bisa umukara, washinze akaguru k'iburyo hasi, ak'ibumoso gahagaze, akaba ameze nk'umuntu uri muri siporo.

Bokisi ebyiri ziteretse mu bucaca hagati harimo agacupa, izi bokisi zikunda kwifashishwa mu gutwara ibikoresho cyangwa se imiti ivura abarwayi mu buryo bwihuse, bitarenze gutegereza.

Uducupa dutatu turimo imiti yifashishwa n'abantu bakora siporo, mu gihe bahuye n'ikibazo cy'imvune, uburibwe ndetse n'ibindi bitandukanye, bakayifashisha bivura.

Inkoni y'umukara irambuye yifashishwa mu bantu bafite ibibazo by'imvune ariko bari hafi gukira. Iyo nkoni akenshi ikunda gukoreshwa n'abantu bahuye n'imvune.

Umusore ufite amatuza, akaboko kanini, wambaye ubusa hejuru, ufite akantu ku rutugu kameze nk'akantu ka bande basa nk'abamushyizeho akantu kamuvura imvune.

Umusore wambaye umupira, ufite icupa ry'amazi yashyize ku munwa, bigaragara ko yari ari muri siporo arimo arirukanka, ageze aho ananiwe anywa amazi kugira ngo aruhuke.

Ibikapu bibiri kimwe kirafunze ikindi kirafunguye bisa umutuku, igifunguye kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abaganga bavura abantu bakora siporo bahuye n'imvune zitandukanye.

Imiti yifashishwa n'abasiporutifu batandukanye bitewe n'icyo umukinnyi yarwaye cyangwa se umusiporutifu, iyi ni imiti y'ubwoko butandukanye aho umuntu ayifashisha mu gihe arwaye.

icyumba kirimo ikintu cy'umweru kimeze nk'ikimashini, kinini ariko gifiteho akantu kameze nk'akantu karambuye k'agatanda, hariho akantu kameze nk'akantu k'agasume karambuye, ku ruhande hari akantu k'akabati karimo ibikoresho bitandukanye, hameze nk'ahavurirwa abantu bahura n'ibibazo by'imvune.

Umugabo ubona ko akuzemo, wambaye agapira kajya gusa n'umukara, ufite icupa ry'amazi yashyize ku munwa, bigaragara ko yari ari muri siporo akagera ahantu agahagarara akanywa amazi.

Inkoni ebyiri ndende zifite utugozi ku gasongero k'aho umuntu afatisha intoki bigaragara ko ari inkoni zifashishwa mu bantu bahuye n'ibibazo by'imvune cyane cyane aba sportifu.

Umuzungu ufashe icupa ririmo amazi arifatishije akaboko k'iburyo aho yarishyize ku munwa, bigaragara ko yari kunywa amazi mu gihe cya siporo.

Ikimera gihinzwe mu butaka gifite utubabi duto duto ku ruhande gisa icyatsi, gikorwamo imiti ya kinyarwanda yifashishwa n'abavuzi gakondo mu kuvura indwara zitandukanye.

Ubwoko bw'indabo zitandukanye ariko zifashishwa mu miti gakondo mu kuvura abantu bafite indwara zitandukanye cyangwa havanwamo imiti ivura abantu indwara zitandukanye ariko bivuye muri ubu bwoko bw'indabo.

Uduti tureture dufite utubabi twinshi hirya yaho hateye indabo nyinshi nazo zisa nk'izikorwamo imiti ya kinyarwanda zivura indwara zigiye zitandukanye.

Udukarito dutatu twanditseho amagambo agaragaza ko ari imiti gakondo iri mo imbere imeze nk'ifu, ikaba ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye mu buvuzi gakondo.

Amababi afite uduhwa ku ruhande, ameze nk'ahinze ahantu harimo ibyatsi byinshi, afite n'utundi tuntu hejuru tumeze nk'uturabyo ariko akaba afite amahwa menshi ku ruhande, akoreshwa mu kuvanwamo imiti gakondo bifashishwa mu kuvura indwara.

Ikimera giteye ahantu harimo n'amabuye menshi, gifite amababi atandukanye ariko nacyo kimeze nk'ikibabi cyonyine, gisa icyatsi, gikorwamo imiti gakondo bifashisha mu kuvura indwara zitandukanye.

Agacupa k'umweru gashushanyijeho utuntu tw'umuhondo, bigaragara ko ari agacupa kabikwamo umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye ariko akaba ari umuti gakondo.

Uducupa turenga dutatu twifashishwa mu kubikwamo imiti ivura ya Kinyarwanda benshi twita imiti gakondo, akaba ari uducupa babikamo imiti itandukanye bifashisha abavura abarwayi.

Agacupa karimo amazi n'utubabi duto duto gafunze, iruhande rwako hari itasi irimo utubabi natwo tumeze nk'utuvanwamo imiti, hirya hari uducupa dutatu dusa nk'uturimo utuntu tumeze nk'imiti na two, iruhande hari akantu kameze nk'agasahane gafite n'akantu k'agahini gato ko gusekurisha, bigaragara ko ari imiti ya gakondo bashakaga gukora.

Igihingwa gifite amababi bigaragara ko gikorwamo imiti ya kinyarwanda, ivura indwara zigiye zitandukanye ikunda gukoreshwa n'abavuzi ba gakondo.

Ibyatsi bya kinyarwanda byifashisha mu kuvura umuntu wese wahuye n'ikibazo cy'indwara ibyo twita imiti gakondo ikunda gukoreshwa ahantu henshi hatandukanye, ibi ni ibyatsi byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye bitewe n'icyo umuntu arwaye, nibyo twita imiti gakondo.